Abantu 4 bunamye mu mugezi bavoma amazi n'ibivomesho mabara atandukanye. Harimo icy'umweru, ubururu, n'umuhondo.

Ni itsinda ry'abagore bahagaze imbere y'inzu bari kumurongo, harimo batatu bambaye amajre y'icyatsi kibisi, ariho utuntu tw'umweru ku mifuka, bakenyeye n'ibitenge.

Ni itsinda ry'abagabo n'abagore biganjemo abambaye amataburiya y'ubururu bwererutse, bahagaze mu mbuga ishashemo amapave, inyuma yabo hari igiti kinini gikoze nk'igihuru.

Ni icyumba kirimo amatara yaka, giteguyemo intebe esheshatu zicaweho n'abagabo bane n'abagore babiri bose bambaye udupfukamunwa, inyuma yabo hari igishushanyo kinini cy'ubururu cyandikishijweho amagambo y'umweru.

Ni agace karimo amazu ashaje, uyu mugore n'abana bari ku iriba bavoma, ibivomesho byabo birimo amabase, indobo, ijerekani, bimwe bifite umwanda.

Itsinda ry'abagabo n'abagore higanjemo abambaye amashati yumweru nk'iniforume n'bandi babiri bambaye ay'ubururu bwerurutse bahagaze iruhande rwicyapa cy'ubururu n'umweru kiriho ifoto yumugore cyanditsweho amagambo yumweru n'umuhondo mu ibaraza riri imbere yinzu yubakishijwe amatafari.

Abantu batatu bambaye udupfukamunwa, umwe yicaye akingirwa uwubundi ari inyuma ye ategereje gukurikiraho ngo akingirwe n'umuganga uri kubakingira.

Ku kigo cy'ishuri hari umunyeshuri w'umukobwa wunamye avoma amazi ku ntoki, wambaye ikanzu idafite amaboko y'ubururu irimo ishati y'umweru na bodaboda imbere ye hari indobo bashyiramo imyanda.

Ni iriba rya kijyambere riri ku gasozi k'icyaro rihagazeho abantu bane, hari uhagaze inyuma anyonga amazi ngo aze, hari umwana uhagaze imbere ari kuvoma n'akabido k'umweru n'umuhondo n'isafuriya imbere ye, hari uhagaze ku ruhande ategereje kuvoma, yambaye ikabutura y'umutuku n'agapira, hari n'umugore uvuyeyo wambaye umupira w'umutuku n'igitenge, n'igitambaro mu mutwe.

Ni iriba rya kijyambere riri ku gasozi k'icyaro, hari umukobwa wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara ufashe icyuma kinyonga amazi ngo aze. Hari abana bahagaze inyuma y'ubujerekani bwabo bategereje kuvoma n'imodoka iparitse hirya yabo isa umweru.

Iriba rya kijyambere riri mu cyaro, umugore umwe afashe icyuma banyonga ngo amazi aze, umwana w'umuhungu afasha amajerekani aravoma, abaturage barimo, abagabo n'abagore n'abana barahakikije baseka bishimiye iryo terambere.

Abagabo barindwi bambaye amataburiya y'umweru n'amapantaro y'umukara n'inkweto z'umukara bari kumwe n'abagore babiri, umwiraburakazi wambaye itaburiya y'umweru n'ijipo y'umutuku n'umuzungukazi wambaye ikanzu y'umutuku n'inkweto z'umutuku, bari mu cyumba. Imbere y'urugi runini impande zabo zombi hari inzugi ebyiri zikinze n'ishusho iri ku rukuta iriho amabara y'ubururu bwerurutse n'ubwijimye, bazamuye ibikumwe bagaragaza ko bishimye.

Itsinda ry'abagore biganjemo abambaye amajire yo mu ibara ryicyatsi n'udupira two mu ibara ry'umuhondo n'umweru, n'abagabo bari kumwe na bo bose basetse, bahagaze imbere y'inzu nini, bigaragara ko hari igikorwa bahuriyeho.

Umugabo useka wirabura, wiyogoshesheje, yambaye ishati ya karokaro, ipantaro y'umukara, afashe ku ijerekani n'amaboko abiri, ari ku iriba ririho robine ebyiri.

Ni mu kigo cy'ishuri abanyeshuri bahagaze imbere y'amezi abiri, ateretsweho ibikoresho bya kijyambere birimo ibyo kunywa nabo bafite ibikombe by'amabara atandukanye biteguye kuvoma.

Abana bakiri batoya bambaye imitako mu mutwe yanditsweho amagambo n'udupira tw'umuhondo nka iniforume yabo umwe muri bo yishimye yasetse kurusha abandi.

Icyapa cy'ubururu kiriho umugabo wirabura ufite mikoro avugiraho n'ikirango kiri mu ibara ry'umweru n'umuhondo n'amagambo y'umweru n'umuhondo. Igika cy'amagambo imbere ye mu ibara ry'umweru n'izina mu ibara ry'umuhondo. Interuro igaragara y'umweru n'iyindi itagaragara cyane y'umweru n'uturongo munsi turimo utuzeru by'umuhondo.

Icyapa kiriho amagambo yanditswe mu ibara ry'umukara rigaragara, n'ikirango cya polisi, n'ikirangantego cy'u Rwanda, n'ibindi birango by'imiryango bafatanyije muri uyu mushinga.

Umukobwa useka, ufite imidaho ibiri, yarurira umukecuru wambaye amadarubindi, ufite imvi nyinshi n'umusore wambaye umupira w'umutuku w'amaboko maremare afite isahane mu ntoki.

Umukobwa w'inzobe ufite umusatsi wumukara ufungiye inyuma wambaye imyenda irimo ibara ryumweru n'ubururu bwijimye arikumwe n'umukecuru wambaye ikanzu yubururu bukeye numupira wo kwifubika azamuye amaboko yombi afashe agatambaro k'iroze hejuru y'umutwe we.

Umukobwa useka wambaye agapira k'ubururu bukeye, asunika umusaza useka, wambaye amadarubindi n'umupira w'amaboko maremare mu igare rifite ibara ry'ubururu bwijimye n'umukara inyuma yabo hari inzu nini.

Icyumba kirimo igitanda na supanete y'umweru, hicayeho umusaza wambaye amadarubindi, ari kumwe n'umukobwa wambaye itaburiya y'umweru, umufashe ukuboko ngo amuhagurutse.

Umukecuru w'imvi nyinshi, n'umukobwa wambaye amadarubindi, wafungiye imisatsi hejuru, n'umwana mutoya barikumwe, umukecuru n'umukobwa baraseka banezerewe.

Ni abagore batatu bari mu cyumba gicanyemo amatara inyuma yabo hari akabati karimo ibikoresho, uwo ku ruhande rumwe afite ikizingo cy'ubudodo yambaye amadarubindi n'ingofero y'umweru, uwo hagati afite terefone yambaye amadarubindi, uwo ku rundi ruhande yambaye ingofero y'ubudodo bose bari kureba muri terefone y'uwo hagati.

Umugore wambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y'umukara yicaye akora siporo yarambuye akaguru k'iburyo ahina ak'ibumoso akererekeje ku k'iburyo arambura amaboko abiri afata ku isonga y'urukweto rw'akaguru yarambuye.

Ni icyumba cy'inama kirimo abagabo n'abagore, abera n'abirabura hamanitsemo ibirango biri mu mabara atandukanye icy'umutuku n'umweru, icy'ubururu n'umweru, icy'ubururu n'icyatsi n'umweru n'umuhondo bigaragaza ibyo bagiye kwigaho.

Ni umugore useka wambaye amadarubindi n'igitambaro mumutwe, ahagararanye n'umugabo wirabura, bafashe ibikoresho biri mumabara y'icyatsi kibisi n'ubururu bigaragaza uko imyanda ibikwa hakurikijwe ubwoko bwayo, bahagaze iruhande rw'icyapa kiriho ikirangantego cy'u Rwanda handitsweho amagambo mu mabara y'ubururu n'umukara.

Icyapa cy'ubururu kigaragaza umuntu amaboko ye arwaye indwara y'Ubushita, cyanditseho twirinde indwara y'Ubushita bw'inkende mu mabara y'umweru n'umuhondo.

Icyumba cy'inama kirimo abantu batandukanye, hari batanu bicaye imbere, harimo abagabo batatu n'abagore babiri, umugore umwe afite mikoro bigaragara ko afite ijambo ari kubwira abari mu cyumba.

Hariho icyapa kirekire cy'umweru gifite inkingi z'ubururu cyandikishijweho amagambo y'umukara ubururu n'umutuku kiriho ibirango bibiri iburyo n'ubumoso ikiruziga n'icya mpande eshatu ku kajarinde gashyashya ka pasuparuma inyuma yacyo hari amazu afite ibisenge by'amabati yumutuku hari n'ibendera ry'u rwanda.

Imashini ya mikorosikopi iteretse ku kirahure izengurutswe n'andi macupa arimo imiti bifashisha mu kuyikoresha.

Ni icyumba gisize ibara ry'umweru, kiriho urugi rw'imyanya ibiri, ruri mu ibara ry'umuhondo werurutse, hejuru hariho ibara ry'ubururu ryanditsweho amagambo y'umweru.

Ni nzu y'umweru hasi n'igisenge cy'umweru kirimo imyanya itatu y'umweru cyane imeze nk'utudirishya, gifite inkingi mu ruhande rumwe rw'iburyo, isizwe ibara ry'icyatsi kibisi, no mu ruhande rw'ibumoso hasizwe irange ry'icyatsi kibisi, handitsweho n'amagambo y'umweru.

Inyubako iriho ibirango bigaragaza ibikorerwamo, biri mu ibara rya move n'umweru n'icyatsi kibisi, imbere yayo haparitse imodoka ebyiri z'amabara atandukanye.

Icyumba kirimo imashini ifotora mu mubiri, hari agatanda gashasheho igitambaro cy'umweru n'umuganga wirabura, umugabo wambaye itaburiya y'umweru.

Ni igipangu cyubakishijwe ibyuma by'umweru bisobekeranye n'inkingi z'amatafari ahiye, hari icyapa kirekire cy'umweru, gifite inkingi y'ubururu cyandikishijweho amagambo y'ubururu n'akazu ku ruhande rw'umuhanda k'ubururu bugamamo. Mu gipangu harimo amazu asakaje amabati y'ubururu n'ubusitani bwiza.

Inzu nini yumweru igabanyijemo ibice bibiri yanditseho ijambo inzu yababyeyi mw,ibara ry'ubururu n'amabati y'ubururu imbere yayo hari ipanlo yimirasire yizuba iteyeho ibiti birebire kuruhande rwiburyo naka jaride kagufi ya haparitse moto iriho cask yumukara igaragaza ipine imwe.

Icyumba kirimo itsinda ry'urubyiruko bahagaze ku murongo bambaye imyenda igeretsweho amajire y'umweru ariho imisaraba y'umutuku, inyuma yabo hari igitambaro kirekire kirimo uruziga rurimo umusaraba w'umutuku n'amagambo y'umukara agaragara neza, imbere yabo hari umusore upfukamye wambaye ishati y'umweru n'ijire y'umutuku yiyegamije mugenzi we uryamye ku buriri amufasha.

Umusore n'umukobwa bambaye udupira tw'umweru n'amajiri y'umutuku n'amapantaro y'umukara bari ku kibuga cyumupira bapfukamye kumukinnyi wambaye ikabutura y yubururu n'amagisi yumutuku ninkweto za siporo bamukanda amaguru nkuwakomerekeye mu mukino.

Umusore wambaye isengeri y'icyatsi kibisi, azamuye amaboko afite icupa ry'amazi, yimena mu mutwe no mumaso, yambaye n'agatambaro ka move ku kuboko kumwe.

Umukobwa wirabura ufite umusatsi muke, unywera amazi mu icupa ry'umweru n'ubururu, wifubitse agatambaro ku ijosi, k'umweru, wambaye umwenda urimo ibara ry'umukara, icyatsi n'umweru n'agashanete mu ijosi.

Abantu babiri bari hamwe umwe yubitse ikiganza ku bibero cyamaze gupfukwa azamuye akandi kaboko atanga ikiganza ngo bamupfuke.

Umusore wicaye akora imyitozo ngororamubiri, yarambuye ukuguru kumwe, ukundi aguhina ikirenge kireba ku kuguru kurambuye, amanura amaboko yombi ayafatisha ku kirenge cy'ukuguru yarambuye.

Umugore uraramye anywa amazi mu icupa ry'ubururu, izuba ryamurasiyeho, yambaye isengeri y'ubururu, afite umusatsi muremure upfundikiye inyuma.

Ni umukobwa ukora siporo wambaye isengeri yiroze na kora y'umukara n'inkweto za siporo. Yarambuye ukuguru kw'iburyo arunama afata ku isonga y'urukweto rw'ukuguru yarambuye n'ukuboko kw'iburyo, ukuboko kw'ibumoso agufatisha kuri uku kuguru yarambuye mu gice cyo ku murundi.

Umugabo wirabura ufite ubwanwa n'umusatsi muke, uraramye anywera amazi mu icupa ry'umweru, wambaye umupira woroshye w'ubururu bwijimye na shanete mu ijosi.

Ni umusore wirabura ukora siporo yashyize akaguru kamwe hasi akanda arakazamura ku cyuma kiri hejuru gatoya yifata mu mayunguyungu n'ukuboko kumwe ukundi agufatisha ku isonga y'rukweto rw'ikirenge kimanitse kuri cya cyuma.

Amacupa y'ibirahure arimo ibyatsi byumye, atondetse ku murongo neza arapfundikiye ariho n'ibirango byanditsweho amagambo.

Ni ibikoresho by'ubwiza bw'uruhu, hari amagambo abisobanura yanditswe mu mabara y'umweru, biri mu matibe umunani atandukanye mu mabara n'akarabero kamwe n'isabune ikuwe mu gakarito irambitse hasi.

Icyumba kirimo umugabo wambaye ingofero y'uruziga, inyuma ye hari etajeri ifite imbaho z'umweru, irimo amacupa y'ubwoko butandukanye n'amabara atandukanye.